Abaganga mu mwuga wabo bakunda kuba bakorera hamwe, bakundanye kandi ibyo bakora byose bakabikorana ubuhanga n'ubushishozi ndetse n'ibyo batazi bagaharanira kuba babimenya kugira ngo barusheho gufasha abarwayi neza.

Abana baba bagomba gukurikiranwa kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Aho bashobora kuba basuzumwa ku bitaro, abafite uburwayi bakaba bavuzwa ariko kandi bakaba banakwigishwa neza uburyo bagomba kwirindamo uburwayi.

Umuryango mpuzamahanga ushinzwe kwita ku buzima, ufite ikirango. Icyo kirango kirakoreshwa cyane ku buryo aho umuntu wese akibonye, ashobora gusobanukirwa icyo kivuze.

Ibihugu byose byo ku isi byashyize imbaraga mu kwita ku bana, bakabamenyera ubuzima, bagakurikirana imibereho yabo, bakabarinda uburwayi butandukanye n'imirire mibi kugira ngo barusheho gukura neza kandi bafite ubuzima buzima.

Abajyanama b'ubuzima ndetse n'abaganga bagira uruhare runini cyane mu kuba baduhereza ubujyanama bwo kuba twagira ubuzima bwiza, ariko kandi bakaba badusuzuma bakamenya uburwayi dufite bakaba baduha n'imiti ishobora gutuma tugira ubuzima bwiza.

Ku isi hose ubuvuzi ni ingirakamaro, niyo mpamvu abayobozi baturutse mu bihugu bitandukanye, bicara hamwe bakaganira uburyo bafata ibyemezo mu bigendanye n'ubuvuzi, ndetse no mu buryo abantu barushaho kubaho neza.

Inama ku bigendanye n'ubuzima ni ingenzi cyane, aho abayobozi bicara bakarebera hamwe icyatuma abaturage barushaho kubaho neza, ndetse n'uburyo bashobora kuba bakwirindamo indwara zitandukanye.

Abaganga baba bagomba guhabwa imyenda yabugenewe ndetse n'ibindi bikoresho kugira ngo bakore umwuga wabo neza w'ubuganga ariko kandi birinde no kuba bafatwa n'indwara zitandukanye abarwayi bari mu bitaro bafite.

Kandagira ukarabe ni ingenzi cyane. Aho abantu bose baba bagomba gukaraba hifashishijwe amazi meza n'isabune, kugira ngo turusheho kwirinda indwara ziterwa n'umwanda.

Ku isi hari imishinga myinshi itandukanye idufasha mu kuba twebwe twagira ubuzima bwiza, ariko cyane cyane ikaba yakwita ku bana batoya kugira ngo barusheho gukura, bameze neza, ariko kandi bazira n'uburwayi.

Ku Isi hose abana baba bagomba kuvurwa, ubuzima bwabo bugakurikiranwa kugira ngo barusheho gukura bafite ubuzima buzima buzira uburwayi, ikindi kandi ababyeyi b'abana baba bagomba guhabwa inama zitandukanye kugira ngo barusheho gukurikirana abana babo.

Imigezi idufitiye umumaro munini cyane, aho ishobora kudufasha kubona amazi dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi, yaba mu gihe dufite inyota tukaba twayanywa, tukaba nanone twayafurisha, tukayatekesha, bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Abantu benshi, bahurira ku mavomero, aho bashobora kuba bagura amazi meza, bashobora kwifashisha mu miryango yabo banywa, cyangwa se batekesha, bakanakaraba, bityo bakarushaho kugira ubuzima bwiza. Ikindi kandi ayo mazi aba agurwa, nubwo aba adahenze cyane.

Gukurikirana umurwayi uri ku bitaro, biri mu nshingano za muganga. Aho muganga aba agomba gukomeza gufata ibipimo by'umurwayi, kugira ngo amenye aho ubuzima bwe bugeze, kandi agakomeza no kuba yamuhereza imiti ihuye, n'uburwayi afite.

Abaganga baba bagomba kuganirizwa bagahabwa n'amahugurwa atandukanye, ku bigendanye n'uburyo bagomba gukurikiranamo abarwayi, ndetse n'uburyo batanga ubujyanama bushobora gufasha abaza babagana.

Mu gihe cyashize wasangaga abakire ari bo bahabwa ubuvuzi cyane. Ariko abakene bakaba barakandamijwe. Ariko ubu kuri ubu n'abakene nabo bashobora kuba bahabwa ubuvuzi kimwe n'abakire bityo twese tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Abana bakunda guhurira ku migezi ari benshi cyane cyane mu gihe cy'umugoroba, aho usanga buri mwana wese afite ubudomoro kandi akaba ashaka kuba yavoma kugira ngo abashe gucyura amazi akoreshwa mu guteka, mu kumesa n'ibindi.

Mu gihe cy'icyorezo cya corona virusi, abaganga bafashe inshingano zo kujya badukingira, ariko yaba ukingirwa 'n'ukingira bose bakaba bambaye udupfukamunwa. Ikindi muganga yabaga afite ibindi bikoresho byabugenewe kugira ngo hirindwe kuba yakwandura indwara zitandukanye.

Abana batoya baba bagomba gutozwa gukaraba mu ntoki n'amazi meza n'isabune, hagamijwe kugira ngo turusheho kurwanya indwara ziterwa n'umwanda.

Amazi y'imvura nayo ajya agira akamaro, aho usanga igihe imvura iguye abantu benshi bashobora kuba batega ayo mazi y'imvura, bakayifashisha bari mu bikorwa by'amasuku, no kuba bafura imyenda yabo, bagakaraba ndetse n'ibindi bikorwa bitandukanye.

Ku isi hose ubuvuzi ni ingenzi. Niyo mpamvu usanga ibihugu byifatanyirije hamwe mu kuba batuma abaturage bose bagubwa neza bakabona ubuzima buzima ndetse bakanafatanyiriza hamwe mu kurwanya imirire mibi n'izindi ndwara.

Ku Isi hose mu gihe cy'icyorezo cya Korona virusi hakoreshwaga agapfukamunwa yaba no ku babyeyi bafite abana, hagamijwe kugira ngo turinde gukwirakwiza icyo cyorezo mu bantu bose.

Abantu bakora ku bitaro yaba abaganga n'abandi bakozi. Baba bagomba guhabwa imyenda yabugenewe ndetse n'ibikoresho bitandukanye byabugenewe, bibafasha mu kazi kabo bityo imirimo yabo ikarushaho kugenda neza.

Abayobozi bo muri Minisiteri y'Ubuzima muri Sudani y'Amajyepfo, bicaye hamwe mu gutekereza ukuntu barushaho kuba bashishikariza abaturage kugira ubuzima bwiza, ariko kandi bakabaha n'inkunga zibibafashamo.

Amavuriro ndetse n'ibitaro ni ingenzi cyane kubera yuko usanga abantu batandukanye harimo ababyeyi, abagabo, bagana ayo mavuriro bityo igihe barwaye bakaba bakurikiranwa bagakira cyangwa se bagahabwa ubujyanama.

Umuganga afite inshingano zo gutera impinja inshinge hagamijwe kugira ngo barindwe uburwayi butandukanye ndetse babe babasha no gukura neza. Bityo barusheho kugira ubuzima buzima.

Ni byiza gutoza abana gukaraba mu ntoki n'amazi meza n'isabune tugamije kwimakaza isuku, ndetse no kwirinda indwara zitandukanye ziterwa n'umwanda.

Mu bitaro haba hariho ibikoresho byinshi bitandukanye, abaganga bakoresha bafasha abarwayi ndetse bakaba banasobanukirwa neza uburwayi bafite, bityo bakabafasha neza bihuye n'ubwo burwayi, bakaba bakira bakarushaho kugira ubuzima bwiza.

Amarerero ni ingenzi cyane ku buzima bw'abana, aho usanga abana bitabwaho mu buryo butandukanye, ariko kandi n'ababyeyi babo bakaganirizwa uburyo bategura indyo yuzuye, n'uburyo bafata abana babo neza bakabarinda uburwayi.

Amazi yo mu bishanga ndetse no mu migezi atugirira uruhare runini cyane, aho dushobora kuba twayavoma, tukayifashisha mu masuku yo mu miryango yacu cyangwa se tukaba twajyanayo nk'amagare yacu tukayogerezayo, bityo tugakomeza kwimakaza umuco w'isuku.

Abana bakunda kunywesha intoki amazi aturuka ku mugezi ariko kandi si byiza kubera yuko hari ubwo bashobora kuba bakwanduriramo indwara ziterwa n'umwanda, kubera ko intoki zabo wasanga ziba zidafite isuku ihagije.

Abana bakunda kuba banywesha amazi intoki igihe bari ku mugezi cyangwa se igihe barimo bavoma. Ariko kandi si byiza kuko bashobora kuba bakwanduriramo indwara ziterwa n'umwanda, kuko hari ubwo hari igihe baba batakarabye nk'intoki neza.

Indwara ya Ebola ni indwara mbi cyane, aho usanga abayirwaye bashobora gupfa vuba, niyo mpamvu abana batoya bagomba kuba baganirizwa kandi hagakorwa ubukangurambaga, kugira ngo bamenye neza ukuntu iyo ndwara yandura n'uburyo bayirindamo, bityo bakarushaho kugira ubuzima buzima.

Abaganga bafite mu nshingano mu gufasha abarwayi, kuba babasuzuma bakamenya uburwayi bafite, ndetse no kuba baganiriza abarwayi bakamenya uko bameze n'uko biyumva, bakabona uko babahereza imiti ishobora kubafasha gukira uburwayi bafite, ariko kandi bakabahereza n'ubujyanama butuma bagira ubuzima buzima.

Amazi ni ingenzi cyane ku Banyarwanda, ni yo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kuba yakubaka amavomero atandukanye kugira ngo abantu bajye babona amazi yo gukoresha mu bikorwa bitandukanye bitabagoye.

Kuba umuntu afite ibibazo byinshi bimuhangayikishije, bishobora gutuma mu mutwe we hadatuza bityo akaba yahorana agahinda gakabije ndetse akajyana n'intekerezo kure, bishobora kuba byamugiraho ingaruka mu buzima bwe bwa buri munsi.

Mu buzima busanzwe abantu bajya bahura n'ibibazo, aho usanga bigunze barahuye n'ihungabana mu mitekerereze yabo. Niyo mpamvu baba bagomba kuba bakwegerwa, bakaganirizwa kugira ngo babe basubira mu buzima busanzwe, babeho neza.

Umunsi mpuzamahanga w'ibigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, uba ku itariki icumi z'ukwacuumi, aho usanga abantu bose mu bihugu byose barimo bashishikariza abantu uburyo bakwirinda ibyo bibazo byo mu mutwe n'ababifite bakivuriza ku gihe, bagahabwa n'ubujyanama.

Abafashamyumvire mu bigendanye no kugira ubuzima bwiza bwo mu mutwe, ni ngombwa ko bahabwa iniforume ibaranga, ku buryo igihe barimo bafasha abo bantu bagirirwa icyizere kubera ko bagaragarwaho kuba barabihuguriwe.

Umuntu w'igitsina gore wambaye agapira k'ubururu akaba akambariye mbere y'undi munini cyane w'amaboko maremare y'umutuku, akaba afite akamwenyu aseka cyane ubona ko yishimye, afite umusatsi yaremanywe ntabwo yigeze yisukisha.

Abaganga ndetse n'abandi babihuguriwe, baba bagomba kwicara hamwe bakaganira uburyo bafashamo abantu kugira ngo barusheho kugira imitekerereze n'ubwonko buzima ariko kandi n'uburyo bashobora kuba bafashamo umuntu ufite ikibazo cyo mu mutwe.

Ihohoterwa ryugarije benshi, niyo mpamvu leta y'u Rwanda ifatanyije n'inzego z'umutekano yashyize imbaraga mu gushishikariza abantu, uburyo bagomba kwirinda ihohoterwa ndetse n'uwaba yarikorewe akaba yashaka ubutabera.

Ni byiza yuko abantu babaho ariko badafite uburwayi bwo mu mutwe. Ni yo mpamvu usanga hashyizwemo imbaraga mu gukangurira abantu kuba igihe bafite ubwo burwayi bakwivuza, ariko kandi hakarebwa n'uburyo abantu barushaho kugira ubuzima bwo mu mutwe buzima.

Uburwayi bwo mu mutwe ni bubi cyane. Aho usanga ababurwaye baba babayeho nabi, bambaye imyenda icagaguritse, ndetse nta n'isuku bafite, kandi bagenda basabiriza uwo babonye wese.

Abantu bafite ikibazo cyo mu mutwe cyane cyane bakaba barasaze, hari ubwo bashobora kuba bafashwa n'abo mu miryango yabo cyangwa se n'abandi, mu kuba babageza nko ku mavuriro, kugira ngo bahabwe ubufasha ku kibazo bafite cyo mu mutwe, harebwe niba bakongera gusubira mu buzima busanzwe bakaba bazima.

Kuba abantu barangiritse mu mutwe bitewe n'amateka banyuzemo, ibibazo ndetse n'ibindi, ibyo bishobora gutuma bashobora kuba bakwiyahura cyangwa se bakabaho mu buzima bababaye, igihe badakurikiranwe ngo babe baganirizwa bahabwe n'ubujyanama banavurwe.

Kuganira nk'umuryango bituma abantu baruhuka. Aho buri wese ashobora kuba yavuga ikibazo afite, ibyamubabaje, ndetse n'ibyo yifuza akaba yafashwa. Ikindi kandi bishobora gutuma umuntu abaho mu buzima bwishimye anezerewe ndetse bikaba byatuma anaruhuka mu mutwe kubera ko aba afite abo yaganirije bakamufasha kuruhuka.

Iki gishushanyo kiri kutugaragariza uburyo uhereye muri bibiri na kabiri kugera muri bibiri na cumi n'umunani, umubare w'abantu biyahura mu Rwanda wagiye ugabanuka.

Uburwayi bwo mu mutwe ni bubi cyane. Aho usanga ababurwaye barangwa no kuba baba barataye umutwe, birirwa bagendagenda mu mihanda, batagira isuku, bahora basa nabi, kubera ko baba babayeho nabi, nta mitekerereze mizima baba bafite.

Umunsi mpuzamahanga ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe, ni ingenzi cyane kubera ko udufasha kongera gutekereza neza uburyo twagira mu mutwe hazima hazira uburwayi, ndetse n'uburyo twakiramo ibikomere tukareka kwigunga kandi tukabana n'abandi neza.

Inama ku bigendanye n'ubuzima bwo mu mutwe ni ingenzi cyane, aho abaturage muri rusange n'abayobozi baba bagomba kwicara hamwe bakaganirizwa uburyo bashobora kuba bakwivuzamo indwara zo mu mutwe, cyangwa se n'ibindi bibazo bitandukanye bituma abantu bigunga, ariko kandi bakigishwa n'uburyo babyirinda.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukora ubukangurambaga mu bigendanye no kuba abantu bagira ubuzima bwiza bwo mu mutwe. Aho yigisha abantu uburyo bashobora kuba bavumbura ibibazo bafite mu mutwe n'uburyo bashobora kuba babyivuza cyangwa se bakaganirizwa, bityo bakagira ubuzima bwiza.

Umunsi mpuzamahanga ku birebana n'ubuzima bwo mu mutwe, ni ingenzi cyane aho usanga abantu bongera kwibutswa neza, uburyo bakira ibikomere byinshi bitandukanye, bakareka kwigunga no kuba bonyine ndetse n'uburyo barinda abandi kuba babateza ibibazo byo mu mutwe n'ababifite bakaba bavurwa bagakira.

Muganga wabihuguriwe wenyine ni we wemerewe kuba yafasha umuntu urwaye amenyo kuba yayasuzuma cyangwa se akanayakuramo kugira ngo andi abe yakura. Ikindi kandi aba agomba kubikorana isuku ndetse n'ubushishozi kugira ngo uwo muntu bitamugiraho ingaruka.

Ubuvuzi bw'amenyo ni ingenzi cyane ariko bugomba gukorwa n'uwabuhuguriwe ku buryo igihe umuntu barimo bamukura iryinyo ryangiritse, bidashobora kuba byamugiraho ingaruka mu gukura kw'ayandi menyo cyangwa se mu kanwa muri rusange.

Abaganga bagira uruhare runini cyane mu gufasha abana bafite ikibazo cy'amenyo. Aho bashobora kuba babahereza ubufasha butandukanye, ndetse bakanabaganiriza uburyo barushaho kugira amenyo afite umwimerere, ariko kandi bakaba banabavura bakabaha imiti, bityo bakarushaho kugira amenyo mazima.

Ubuvuzi bw'amenyo ni ingenzi cyane niyo mpamvu usanga bigomba gukorwa n'abaganga babihuguriwe bagafasha abafite ubwo burwayi kuba babahereza imiti ariko kandi n'ayo menyo arwaye akaba yakurwa muyandi kugira ngo n'ayandi atarwara.

Amenyo adufitiye umumaro munini cyane, ni yo mpamvu aba agomba kuvurwa kandi akanitabwaho agasuzumwa. Ariko kandi bigakorwa n'umuganga wabigenewe wabihuguriwe, agakoresha ibikoresho byabugenewe kandi akabikorana isuku kugira ngo uwo muntu arusheho kubona ubuzima buzima.

Indwara y'amenyo, ikunda gufata abantu bose abakuru n'abato. Niyo mpamvu abaganga babihuguriwe, baba bagomba gukoresha ibikoresho byabugenewe, mu kuba badufasha kuba amenyo yacu yakira igihe arwaye cyangwa se bakaba bayadukura kugira ngo n'ayandi adakomeza kwangirika.

Ubuvuzi bw'amenyo ni ingenzi cyane, niyo mpamvu usanga ku bitaro hari ibikoresho byinshi byabukenewe, harimo nk'ibyuma ndetse n'ibindi biba byarateganyijwe kugira ngo umuntu ufite ikibazo cy'amenyo nagana ibitaro, babe bamufasha neza bityo akomeze kugira ubuzima bwiza.

Ubuvuzi bw'amenyo ndetse no kuyitaho, ni ingenzi cyane. Ni yo mpamvu umuntu aba agomba kuba yasuzumisha amenyo ye, kugira ngo bamenye neza niba ari mazima. Basanga kandi afite uburwayi, bakaba bamuhereza imiti kugira ngo arusheho kumera neza ,cyangwa se bakaba bayakuramo kugira ngo n'ayandi atarwara.

Amenyo adufitiye umumaro munini cyane. Niyo mpamvu aba agomba kuba yasuzumwa cyangwa se akavurwa n'abaganga babihuguriwe, ariko kandi bifashishije n'ibikoresho byabugenewe, hagamijwe kugira ngo abantu barusheho kugira amenyo meza kandi atarwaye.

Abaganga bonyine babihuguriwe, ni bo bashobora kuba badufasha kuba batuvura amenyo igihe arwaye, cyangwa se bakayakura igihe yangiritse cyane ashobora kuba yakwanduza ayandi. Ikindi kandi baba bagomba kwifashisha ibikoresho byabugenewe kandi bigakorwa hari n'isuku.

Ubuvuzi bw'amenyo, bukenera ibikoresho byinshi bitandukanye kandi bifite umwimerere, ku buryo bishobora kuba byakoreshwa, bityo urwaye amenyo akavurwa neza, agakira kandi akabona ubuzima.

Uburwayi bw'amenyo bukunda kubaho ku bantu bakuru ndetse n'abato niyo mpamvu abagomba kuvurwa ariko kandi abaganga bakora uwo mwuga bagomba kuba barabihuguriwe ndetse bafite n'ibikoresho byabugenewe bashobora kuba bakoresha mu gihe bari gukura umuntu amenyo cyangwa se bayapima bareba niba nta burwayi afite.

Ubuvuzi bw'amenyo bukenera ibyangombwa byinshi, niyo mpamvu usanga hari ibikoresho bitandukanye byabugenewe, abaganga bashobora kuba bakoresha igihe bari kwita ku buzima bw'abafite ubwo burwayi.

Mu buzima busanzwe amenyo agira umumaro munini ku buzima bwacu, niyo mpamvu aba agomba kwitabwaho cyane, tugaharanira yuko agira isuku ikindi kandi akaba yapimwa tukareba neza niba nta burwayi afite.

Ubuvuzi bw'amenyo busaba ibikoresho byabugenewe kandi byinshi bitandukanye. Ibyo ngibyo abaganga bashobora kubyifashisha bakurikirana abarwayi mu kumenya imibereho y'amenyo yabo ndetse n'ababa bayarwaye bakavurwa bagakira.

Muganga wenyine kandi wabihuguriwe, ni we ushobora kuba wafasha umurwayi, kuba yamuvura indwara y'amenyo cyangwa se akaba yamenya n'ubuzima bw'ayo menyo. Ndetse yaba yaranarwaye cyane akaba yakurwamo kugira ngo atanduza abandi.

Amenyo ni ingenzi ku buzima bwacu kuko adufasha muri byinshi, niyo mpamvu tuba tugomba kuyakorera isuku kugira ngo arusheho kubaho azira uburwayi, ikindi kandi tuba tugomba no kuba twayasuzumisha kugira ngo tumenye niba ari mazima yaba arwaye kandi tukaba twayavuriza ku gihe.

Amenyo iyo adakurikiranwe ngo abe yagirirwa isuku cyangwa se abe yasuzumwa barebe neza niba ari mazima, hari ubwo ashobora kuba yarwara, bityo ugasanga umuntu abayeho nta menyo afite kubera ko bayakuye cyangwa se akaba ayafite ariko agahora amurya, ni byiza kwivuza amenyo.

Amenyo aba agomba kwitabwaho. Niyo mpamvu umuntu aba agomba kuyakorera isuku kugira ngo yirinde uburwayi, ariko n'igihe ayarwaye akaba yagana ibitaro, bityo akaba yahabwa imiti, ubujyanama cyangwa se bakaba bayamuvanamo.

Abantu bageze mu zabukuru baba bagomba kwitabwaho na ba muganga, bakabapima kugira ngo bamenye niba hari uburwayi barwaye babavure ariko kandi bakabaha n'ubujyanama bushobora gutuma bagira amasaziro meza.

Abakecuru n'abasaza baba bagomba kwitabwaho mu myaka yabo y'izabukuru aho baba bagomba kuba barya bakananywa ibibatunga ariko bigizwe n'indyo yuzuye, ikindi kandi bashobora no kuba baganirizwa bagahabwa inama z'uburyo barushaho kugira amasaziro meza, bigakorwa n'ababihuguriwe babizi neza.

Abakecuru n'abasaza baba bagomba kwitabwaho mu myaka yabo y'izabukuru. Aho baba bagomba gufata amafunguro ariho imbuto n'imboga, ndetse n'iyindi mirire yatuma barushaho kugira ubuzima bwiza. Ni ngombwa ko bitabwaho cyane, kuko iyo babasha kubona amafunguro meza, bituma barushaho kugira amasaziro meza.

Abakecuru baba bagomba kwitabwaho mu myaka yabo y'izabukuru, cyane cyane nk'iyo basanzwe bafite nk'ubumuga bwo kutagenda. Aho usanga abaganga babitaho cyane, bakaba babapima indwara zitandukanye bakanamenya neza uburyo umubiri wabo uteye, kugira ngo barusheho kuba bavuzwa banaganirizwa bagire ubuzima bwiza.

Abantu bageze mu zabukuru baba bagomba kwitabwaho, ubuzima bwabo bugakurikiranwa kugira ngo barusheho kugira amasaziro meza, bafite ubuzima buzima bishimye banezerewe.

Abantu bageze mu za bukuru baba bagomba kwitabwaho cyane, nk'igihe barimo bafata amafunguro, bagafata amafunguro hariho imboga n'imbuto, kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza. Si ibyo gusa kuko n'ubuzima bwabo, buba bugomba gukurikiranwa kugira ngo barebe niba nta burwayi bafite, bagahabwa n'ubujyanama butuma bagira amasaziro meza.

Abakecuru bageze mu za bukuru, baba bagomba kwitabwaho n'abakiri bato kugira ngo babamenyere ubuzima, bamenye uburyo babayeho ndetse baba bafite n'ikibazo cy'uburwayi, bakaba bavuzwa ariko kandi bakaba banarushaho kujya baganirizwa kugira ngo barusheho kubaho bishimye, banezerewe.

Abakecuru n'abasaza, baba bagomba kwitabwaho cyane, mu myaka yabo y'izabukuru, binyuze mu kuba ubuzima bwabo bwakurikiranwa, bakaba bapimwa bakareba niba nta burwayi bafite, ariko kandi baba bana bufite bakaba bavurwa neza bagakira, ikindi kandi baba bagomba kuganirizwa, bagahabwa inama zirushaho kubafasha kugira imisazire myiza.

Abantu bageze mu zabukuru baba bagomba kwitabwaho cyane, hagamijwe kugira ngo bagire amasaziro meza, aho baba bagomba kuganirizwa bagahabwa kuba bakora nk'imyitozo ngororamubiri ariko kandi bakaba banasuzumwa niba bafite ubuzima , baba barwaye bakavurwa.

Abasaza baba bagomba kwitabwaho, mu myaka yabo y'izabukuru, aho usanga bagomba kuba barya indyo yuzuye, kandi bakabaho banavurwa, bakanasuzumwa niba nta burwayi bafite, bityo bakarushaho kuba bagira amasaziro meza, azira uburwayi.

Abakobwa na bo bakunda imyitozo ngororamubiri, aho usanga na bo bayikora mu buryo butandukanye bubafasha kuba bakwishima, bakanezererwa kandi bakaba bakira n'umunaniro, bakabaho kandi mu buzima buzira uburwayi.

Abakecuru nabo mu myaka yabo y'izabukuru, baba bagomba guhabwa ijambo n'umwanya bagatanga ibitekerezo, kugira ngo nabo barusheho kugira uruhare mu bibakorerwa, ndetse babe batanga n'ubujyanama.

Abakecuru baba bagomba kwitabwaho mu myaka yabo y'izabukuru, aho baba bagomba gufata ifunguro ririmo imboga ndetse n'imbuto kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza.

Abasaza baba bagomba kwitabwaho cyane n'abaganga mu myaka yabo y'izabukuru, harebwa niba bafite ubuzima buzima, ndetse baba barwaye bakaba bavurwa neza bagakira, ikindi kandi bakaba baganirizwa bagahabwa n'inama zarushaho gutuma bagira amasaziro meza.

Abakecuru n'abasaza, baba bagomba kwitabwaho cyane, mu myaka yabo y'izabukuru, aho baba bagomba kuganirizwa, ariko kandi bakanapimwa hakarebwa neza niba hari indwara baba bafite bakavurwa, bityo bakarushaho kugira ubuzima bwiza, kandi bakabaho banezerewe.

Abantu bageze mu zabukuru, baba bagomba kwitabwaho, cyane cyane igihe barwaye, ikindi kandi n'igihe batarwaye, baba bagomba kuba bapimwa, bakamenya niba ubuzima bwabo bumeze neza.

Umukecuru aba agomba kwitabwaho cyane mu myaka ye y'izabukuru, aho aba agomba kuba yakwitabwaho n'umuryango we, akaba yategurirwa nk'ifunguro rigizwe n'indyo yuzuye, harimo byinshi bishobora kuba byamufasha kuba yakwirinda uburwayi, ndetse akaba yakomeza no kuramba.

Inama ku bigendanye n'ubuzima ni ingenzi cyane, aho usanga abayobozi bicara hamwe bakaganira neza uburyo baharanira kuba habaho ubuzima bwiza ndetse n'uburyo indwara zitandukanye twazirandurana n'imizi yazo.

Ibihugu byateye imbere ndetse n'ibikiri mu nzira y'amajyambere, byifatanyirije hamwe mu kureba uburyo barwanya ikwirakwizwa ry'indwara zandurira mu imibonano mpuzabitsina, igituntu, ndetse na malariya.

Icyorezo cya koronavirusi cyashegeshe benshi. Ni yo mpamvu muri icyo gihe habayeho ubukangurambaga, aho bashishikarizaga abantu kwambara udupfukamunwa ndetse bagasigamo n'intera, ariko kandi bagakaraba n'intoki bifashishije amazi meza n'isabune.

Kuboneza urubyaro ni gahunda ya Leta, aho usanga buri umwe umwe wese ashobora guhitamo uburyo bumunogeye bityo akarushaho kuba yabaho mu buzima ariko akaringanyiza urubyaro.

Diyabete ni indwara mbi cyane, niyo mpamvu leta y'u rwanda yashyize imbaraga mu gukora ubukangurambaga, hagamijwe kuba babwira abaturage uburyo bakwirindamo iyo ndwara, ariko kandi n'uwayirwaye akaba yakwivuriza ku gihe, bityo akakira ubuzima bwiza.

Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gushishikariza urubyiruko, kwirinda indwara ya virusi itera sida, binyuze mu kuba bakwirinda ubusambanyi, cyangwa se bakaba bakoresha agakingirizo ikindi kandi bakaba bakwipimisha, bityo bakamenya niba iyo ndwara barayanduye bakaba bakurikiranwa, cyangwa se bakamenya niba ari bazima.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe Ubuzima cyashyizeho imirongo ngenderwaho mu kuba abantu bakwirinda icyorezo gitera SIDA ndetse n'uburyo bashobora kuba bayivuzamo igihe bayirwaye, ariko kandi bakarushaho no kuba bafatira imiti ku gihe.

Kanseri y'ibere iyo yagufashe iragushegesha cyane. Niyo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu gukora ubukangurambaga, uburyo twakwirinda yuko iyo kanseri twayirwara ariko kandi tukaba twanakwipimisha kugira ngo niba tuyirwaye, ibe yavurwa ikire bityo turusheho kugira ubuzima bwiza.

Indwara z'ibyorezo zishobora kugira uruhare mu gusenya ubukungu bwacu. Ni yo mpamvu Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kwigisha abaturage uburyo bakwirindamo indwara ya Marburg, ariko kandi bakabasobanurira neza n'ibiyiranga n'uburyo umuntu wayirwaye yakurikiranwa.

Inama ku bigendanye n'ubuzima ni ingenzi cyane aho abayobozi bicara bakaganira neza ibyatuma abantu barushaho kubaho mu buzima bwiza, bityo bakabaho bishimye kandi bameze neza.

Inama Mpuzamahanga ku bigendanye no gutekereza ku buringanire n'ubwuzuzanye ni ingenzi cyane aho abayobozi n'abayoborwa, bose bicara hamwe mu kuganira uburyo habaho uburinganire no kuzuzanya mu miryango itandukanye ku isi.

Ubukangurambaga mu kugira ubuzima bwiza, n'imibereho myiza, bigomba gushyirwamo imbaraga cyane hagamijwe kugira ngo buri umwe umwe wese akore ibikorwa byamuganisha ku buzima bwiza, n'imibereho myiza.

Nyakubahwa Jeanette Kagame arimo akora ubukangurambaga, adusobanurira neza cyangwa se asobanurira abanyarwanda muri rusange, uburyo ibibazo byo mu mutwe bishobora kudindiza iterambere ry'Igihugu, by'umwihariko mu miryango yacu bigatuma tubaho nabi kandi bitari bidukwiriye.

Amavuriro yigenga, agira uruhare ku buzima bw'abantu kubera yuko usanga haba harimo imiti myinshi kandi itandukanye, aho iyo umuntu arwaye, ashobora kuba yagenda akayigurayo bityo akabasha kuba yakwivuza, agakira. Ikindi kandi, umuntu ashobora kuba yabonerayo ubujyanama mu bigendanye n'ubuzima.

Iyo habayeho kuba kubaka ibitaro byasojwe cyangwa se kubisana na byo byasoje, hari ubwo abayobozi bicara hamwe bakishimira intsinzi bagezeho yo kuba ibikorwa byabo by'ubuvuzi bikomeje gutera imbere.

Amavuriro ni ingenzi cyane mu buzima bwacu, kubera y'uko iyo turwaye tuyagana, tukaba twahabwa imiti, tukayinywa, bityo tukaba twakwakira ubuzima buzima.

Ibitaro biba byubatse neza aho usanga buri bantu bose bagomba kuba bafite aho babarizwa, aho uhasanga icyumba cy'ababyeyi, icyumba cy'urubyiruko, icyumba cy'abagabo mbese buri umwe umwe wese akaba afite icyumba abarizwamo, ibyo byorohera abagana ibitaro kutayobagurika.

Inyubako zikorerwamo ubuvuzi, ziba zubatse neza ndetse zikoranye n'isuku cyane, ku buryo abazigana bose baba baguwe neza kandi bizeye umutekano w'ubuzima bwabo.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubushakashatsi ku bigendanye n'ubuvuzi n'imiti, kigira uruhare runini cyane, mu kuba habaho kuba havumburwa imiti ishobora gukoreshwa, igihe hari nk'indwara yadutse, bityo abantu bakarushaho kuba bagira, ubuzima buzima.

Abaganga bafite mu nshingano mu kwita ku barwayi, bakabakurikirana. Bakabaganiriza, bakamenya neza uburwayi bafite ndetse bakaba banabasuzuma, bakamenya uko bahagaze bityo bakabahereza imiti itandukanye ishobora gutuma bakira bakagira ubuzima bwiza.

Mu bitaro habamo ibikoresho byinshi bitandukanye. Bishobora gufasha abaganga kuba bakora akazi kabo neza, basuzuma abarwayi ndetse bakanavumbura uburwayi bafite n'uburyo babafashamo.

Inyubako z'amavuriro n'ibitaro ziba zubatse neza cyane ku buryo buri kintu cyose kiba kigenewe umwanya wacyo ndetse n'abarwayi ubwabo bakaba babona uburyo bakurikiranwa, aho usanga buri murwayi n'uburwayi afite, afite aho abarizwa.

Kwa muganga habayo ibikorwa remezo bitandukanye, abaganga bashobora kwifashisha mu mirimo yabo ya buri munsi, bityo akazi kabo kakagenda neza, ibyo bikorwa remezo biba byubakanye isuku n'uburambe ku buryo bidapfa gusaza vuba.

Inyubako z'amavuriro n'ibitaro ziba zubatse neza, aho usanga hari n'ubusitani bwiza ndetse n'aho imodoka zigomba guhagarara ndetse n'ahandi abantu baruhukira ikindi kandi ibitaro biba bigizwe n'ibyumba byinshi bitandukanye ku buryo buri murwayi n'uburwayi afite agira aho abarizwa.

Bitewe n'umubare munini cyane, ugana ibitaro n'amavuriro, usanga hakoreshwa imirongo. Aho uwaje mbere ajya imbere, uwaje nyuma akajya inyuma. ariko kandi abafite nk'ubumuga butandukanye, bakaba bafashwa mbere, kugira ngo babe bakomeza izindi gahunda.

Amavuriro n'ibitaro biba byubakanye ubuhanga n'isuku ku buryo ababigana babasha kuba bahabonera serivisi inoze, Ikindi kandi haba hari n'ibikoresho byinshi bitandukanye bituma abarwayi bavurwa neza bagakira. Si nibyo kuko ayo mazu aba afite n'ibirango biranga aho hantu.

Ku bitaro ndetse no ku bigo nderabuzima, habayo abakozi bakora ibikorwa bitandukanye, ariko cyane cyane bakaba bakora amasuku yo mu bitaro ndetse no mu busitani bwo ku bitaro.

Kwa muganga harangwa n'isuku nyinshi cyane. Ikindi kandi haba hari n'ibindi bikoresho bitandukanye harimo nk'ibitanda n'amamashini atandukanye ashobora gufasha muganga mu gihe arimo avura umurwayi.

Ku bitaro habayo inyubako nyinshi zitandukanye, zishobora gutuma abantu bagira ubuzima bwiza, aho haba hari nk'ibyuma abana bashobora kwifashisha mu gihe barimo bidagadura banakora imyitozo ngororamubiri, bityo bakarushaho kumera neza, ikindi kandi ibitaro birangwa n'ubusitani bwiza cyane ku buryo abantu bashobora kuba baruhukiramo.

Amavuriro n'ibitaro biba byubatse neza byubakanye isuku kandi harimo ibikoresho bitandukanye bifasha abarwayi. Harimo nk'ibitanda byiza, bigezweho, inzitiramibu ndetse n'imyenda ikingiriza abarwayi igihe bari kuvurwamo.

Amavuriro aba yubatse neza rwose kandi yubakanye ubuhanga, aho usanga afite n'ubusitani bwiza cyane buba buteguye bufite indabo nziza, ibyo byose bishobora gufasha abarwayi ndetse n'abagana ibyo bitaro, kuba bakomeza kurushaho kugira ubuzima bwiza.

Inyubako zikorerwamo ubuvuzi ziba zubatse neza kandi zifite isuku, zifite ibyangombwa bitandukanye harimo nk'intebe abantu bakwicaraho, ibitanda ndetse n'ahandi hantu hatandukanye ho kuruhukira.

Amafarumasi agira uruhare runini cyane, mu gufasha abarwayi. Aho abantu bashobora kuyagana barwaye, bakaba babona imiti ibakiza. Ikindi kandi aba akorana bya hafi n'ibitaro, ku buryo ibitaro bishobora kukoherezayo, gufatayo imiti.

Gupimisha abana ibiro ni gahunda nziza cyane kubera yuko bishobora gufasha abaganga n'ababyeyi kumenya niba umwana ari gukura neza ntakibazo afite cyangwa niba ari gusubira inyuma, bakabona uko bamukurikirana.

Ibitaro bidufitiye umumaro munini mu buzima bwacu, aho usanga tubigana turwaye bakaba batwitaho bakaduhereza imiti idukiza. Ikindi kandi dushobora no kuba twahabonera ubujyanama ku bibazo dufite bitandukanye, bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Ibitaro bigira ibyuma bakoresha mu gihe bari gusuzuma banapima abarwayi, kugirango barusheho kuba bamenya neza uburwayi bafite n'imiti bashobora kuba bahabwa bagakira.

Ibitaro bigira inyubako nyinshi zitandukanye, zibikwamo ibikoresho bikoreshwa na ba muganga, yaba ari imiti ikoreshwa cyangwa se ibindi byuma, bashobora kwifashisha bita ku barwayi.

Mu bitaro habamo ibikoresho byinshi bitandukanye, abaganga bifashisha mu kuba bapima abarwayi, bakamenya uburwayi bafite bityo bikaborohera kumenya neza imiti yabavura.

Ku bitaro ushobora gusangayo imodoka nyinshi zitandukanye, aho usanga ziba zazanwemo abarwayi batandukanye baturutse mu mpande zose, ariko kandi kimwe nuko zishobora kuba hari ibikoresho zari zizanye ibitaro bikeneye.

Iyo umurwayi arembye, ku bitaro bamuhereza igitanda ndetse bakamuhereza n'ibyo kwiyorosa, aho ngaho niho abaganga bamusanga, bagakomeza gukurikirana ubuzima bwe kugeza yongeye kuba muzima.

Mu bitaro no mu mavuriro baba bafite ibikoresho byinshi bitandukanye kandi byose bikaba bifite isuku, aho usanga hari ahabikwa imiti ku buryo buri muti uba ufite ahawo ugenewe, ku buryo igihe ukenewe byoroha kuwubona.

Abaganga bahabwa imyambaro ndetse n'ibikoresho bitandukanye bifashisha mu buvuzi, ndetse bakaba barushaho kuba bakora neza akazi kabo, binyuze mu kuba bakoresha ibyo bikoresho mu kumenya uburwayi abarwayi bafite, ndetse bakaba banabavura bagakira burundu.

Ibigo nderabuzima ni ingenzi ku buzima bwa muntu aho dushobora kubigana, tukaba twahabwa imiti igihe turwaye ariko kandi tugahabwa n'ubujyanama budufasha kugira ubuzima bwiza.

Amavuriro aba yubatse neza cyane kandi arangwa n'isuku ihambaye. Ikindi kandi, haba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye nk'intebe ndetse n'ibindi byuma abaganga bashobora kwifashisha mu kazi kabo ka buri munsi.

Amavuriro aba yubatse neza cyane kandi akaba yubakanwe isuku, ikindi kandi ni uko haba harangwa n'inyandiko zigiye zanditseho ziba ziyobora abantu aho bagomba kugana, kugira ngo babone serivisi atandukanye bashaka.

Abantu bafite ubumuga bwo kutagenda bakunda guhabwa amagare yabugenewe, abafasha kuba na bo bagera ahantu hatandukanye, haba ari ku bitaro kugira ngo barusheho kwitabwaho cyangwa se ahandi hatandukanye.

Mu bitaro bagira ibitanda byinshi bashobora gukoresha igihe abarwayi babaganye barembye, aho bashobora kuba babiryamaho bityo bagakomeza guhabwa imiti no gusuzumwa ariko bari aho ngaho kwa muganga ariho baryamye.

Ibitaro bigira ibikoresho byinshi bitandukanye harimo nk'ibitanda, hakaba na none harimo inzitiramibu zituma imibu itarya abarwayi ndetse hakaba harimo n'ameza n'ibindi bikoresho byifashishwa n'abaganga igihe barimo bavura abarwayi.

Ikigo nderabuzima gihuza muganga ndetse n'abarwayi. Aho abarwaye bashobora kuba bagana ikigo nderabuzima bakaba baganira na muganga bamubwira uko bahagaze, hanyuma bakaba basuzumwa bagahabwa imiti y'uburwayi bafite bagakira ariko kandi bagahabwa ubundi bujyanama bukenewe.

Abantu bose bakora ku bigo nderabuzima yaba abaganga cyangwa se n'abandi, ubu usanga bafite imyambaro bakoresha ndetse bakaba bahabwa n'ibindi bikoresho bibafasha kuba bakwirinda indwara zitandukanye ko zabataka.

Imyitozo ngororamubiri idufasha muri byinshi. Aho idufasha mu kuba twakwirinda umubyibuho ukabije, gukira indwara zitandukanye harimo nk' amadiyabeti ndetse no kuba abantu bananiwe mu mutwe bakaba baruhuka.

Igihe umuntu abyutse aba agomba gukora imyitozo ngororamubiri, harimo no kwinanura, kugira ngo umubiri we wongere umere neza bityo akomeze imirimo, ameze neza kandi adafite umunaniro.

Imyitozo ngororamubiri, ikorwa mu buryo bwinshi butandukanye ariko kandi ikiba kigambiriwe ku bantu bose ni ukugira ngo barusheho kugira ubuzima buzima ndetse babe banaruhuka igihe bananiwe, bityo bakomeze imirimo yabo bishimye bameze neza.

Imyitozo ngororamubiri ifite umumaro munini cyane ku buzima bwa muntu, kubera ko usanga idufasha mu igogora, ikindi kandi ikadufasha kugira ubuzima buzima, ntitugire umubyibuho ukabije, tukabaho nta n'uburwayi cyangwa se umuvuduko w'amaraso, ikindi kandi dushobora kuba twaruhuka igihe twari dufite ibibazo.

Abaganga bafite mu nshingano, kuba bafasha umuntu uwo ari we wese, wahuye n'ikibazo cy'imvune igihe yari ari mu myitozo ngororamubiri cyangwa se akaba afite ikindi gikomere icyo ari cyo cyose yahuriyemo na cyo.

Mu myitozo ngororamubiri, hari ubwo hajya habamo impanuka. Aho usanga umuntu uhuriyemo n'impanuka akaba yavunika cyangwa se agakomereka, hari imiti yabugenewe bamufashisha kugira ngo arusheho kumera neza.

Abaganga bafite mu nshingano mu kuba bafasha abantu bashobora kuba bahuye n'ikibazo k'impanuka cyangwa se imvune mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri. Bityo rero ni ngombwa ko abaganga bakoresha imiti yabugenewe kugira ngo bafashe abo bantu kuba bakongera kugira ubuzima buzima.

Umuntu ukora imyitozo ngororamubiri agomba kuba afite imyenda yabugenewe ku buryo ari buze gukora iyo myitozo ntakiri kumutega. Iyo myitozo rero, ishobora kuba yamufasha kuba yagira ubuzima buzima, akaruhuka, kandi agakira indwara zitandukanye.

Ubutabazi bw'ibanze mu buvuzi ni ingenzi cyane, aho umuntu igihe ahuye n'ikibazo kimugwiririye aba agomba kuba yahita avurwa byihuse kugira ngo abe yakurwa mu kaga ko kuba yaremba cyangwa se agakomerezwa, cyane cyane iyo ibyo bintu byabereye mu myitozo ngororamubiri.

Kunywa, amazi, igihe usoje gukora, imyitozo ngororamubiri, ni byiza cyane, kubera yuko bituma ubuzima bwawe, bwongera kubona imbaraga, bityo ukaba wakomeza, indi mirimo yawe, ariko kandi n'ubuzima bwawe, ntibube bwahura n'ikibazo cy'umwuma.

Mu myitozo ngororamubiri hari igihe haberamo impanuka abantu bakaba bavunika, niyo mpamvu usanga hari imiti igiye itandukanye ishobora kwifashishwa igihe havutse ikibazo cy'uko hari umuntu uhuye n'impanuka.

Mu Rwanda hari ikigo gishinzwe kuba cyakurikirana imibereho y'abakinnyi b'umupira cyangwa se imibereho y'abantu bitabira amarushanwa y'imyitozo ngororamubiri ku buryo iyo habayemo ikibazo, icyo kigo gishobora kuba cyafasha abo bantu.

Hari imiti yabugenewe itandukanye ishobora kwifashishwa igihe nk'umuntu afite imvune kugira ngo ashobore kuba yasubirana ubuzima buzima kandi bwiza.

Gukora imyitozo ngororamubiri neza bituma umuntu agira ubuzima buzima, akabaho azira uburwayi ndetse n'umunaniro ukabije, ikindi kandi akabaho yishimye.

Hari imiti yabugenewe, igomba gukoreshwa nk'igihe umuntu ahuriye n'impanuka mu myitozo ngororamubiri cyangwa se akaba yagira imvune. Iyo miti rero, iba igomba gukoreshwa neza kugira ngo bafashe umuntu kuba yagaruka mu buzima busanzwe.

Umuganga afite mu nshingano kuba yavura neza akanakurikirana umuntu wahuye n'ikibazo cy'imvune, akaba yakoresha imiti yabugenewe mu kuba yamuvura, bityo akaba yakira vuba.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane ku buzima bwacu ariko hari ubwo abayikora bashobora kuba bashobora kuba bahuriramo n'impanuka, bityo ingingo zimwe na zimwe z'imibiri yabo ntizimere neza, ni ngombwa ko hagomba kuba hari imiti yababugenewe ishobora gutuma izo mvune zikira vuba, abantu bagakomeza ibikorwa byabo.

Hari ibikoresho bitandukanye biba mu nzu yabugenewe ikorerwamo imyitozo ngororamubiri bishobora gukoreshwa n'abantu benshi batandukanye bityo bakaba barushaho kugira ubuzima bwiza ndetse bakabonamo n'inyungu nyinshi mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Kunywa amazi igihe usoje gukora imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane, kubera yuko bidufasha kuba imibiri yacu yagarura imbaraga, bityo tugakora indi mirimo tudafite umwuma kandi tukayikora neza.

Imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro cyane. Ni yo mpamvu abayikora baba basaba kugira ngo babe bafite inkweto zabugenewe ndetse n'imyenda yabyo. Ibyo bibafasha kuba iyo myitozo ikorwa neza bityo bakaba bakuramo ubuzima buzima bagakiriramo indwara ndetse n'umunaniro.

Iyo umuntu yakoze impanuka cyangwa se akaba afite ikindi gikomere icyo ari cyo cyose, ashobora kuba yagana ibitaro bakamufasha bakaba bamupfuka aho hantu yagize igikomere bityo akaba yakira.

Mu gukora imyitozo ngororamubiri, hari ubwo abantu bahuriramo n'impanuka zituma bagira imvune. Ni ngombwa yuko hagomba guteganywa imiti myinshi itandukanye, ku buryo igihe havutse ikibazo cy'impanuka uwo muntu ashobora kuba yakwitabwaho vuba bityo akarushaho kumera neza.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi ku buzima bwa muntu, kubera y'uko idufasha kubaho twishimye, tunezerewe, kandi tukaba twaruhuka igihe twari tunaniwe, ikindi kandi ni uko iyo myitozo idufasha kuba kure y'uburwayi, harimo nk'umuvuduko, umunaniro ukabije, ndetse n'umubyibuho ukabije, n'izindi.

Mu gihe umuntu ahuriye n'imvune mu myitozo ngororamubiri, ni ngombwa yuko yikandakanda akoresheje ibikoresho byabugenewe, bityo akaba yahita akira vuba agasubira mu buzima busanzwe.

Ibyumba byabugenewe bikorerwamo imyitozo ngororamubiri, haba harimo ibikoresho byinshi bitandukanye, ku buryo abagana icyo cyumba babyifashisha mu kuba bakora imyitozo myinshi itandukanye, ituma baruhuka kandi bakakira ubuzima bwiza.

Mu myitozo ngororamubiri, hari ubwo bamwe na bamwe mu bayigiyemo bahuriramo n'impanuka bakaba bagira imvune zitandukanye. Ni ngombwa yuko'uko bagomba kwitabwaho, hakaba kuba bahabwa imiti ndetse n'ubundi bufasha, kugira ngo barusheho kuba bagira ubuzima buzima.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane, aho usanga abayikora kandi bakayikora neza, bashobora kubaho mu buzima imibiri yabo izira uburwayi, ariko kandi bakaba banaruhukiramo igihe bari bananiwe.

Hari imiti myinshi yabugenewe ishobora kuba yakoreshwa na muganga, igihe ari gufashamo umuntu ushobora kuba yahuye n'impanuka cyangwa se akaba afite imvune yahuye nayo igihe yari ari mu myitozo ngororamubiri.

Mu gihe cy'imyitozo ngororamubiri harimo gukina umupira, kwitabira amarushanwa nko kwiruka, haba hagomba kuba hari ibikoresho byabugenewe, bishobora kuba byakoreshwa igihe hari uhuriye n'impanuka cyangwa se agakomerekera muri ibyo bikorwa.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane, ni yo mpamvu abayikora, baba bagomba kwitabwaho, ku buryo igihe hari uhuriyemo n'ikibazo cyangwa se impanuka, agomba gukurikiranwa vuba bityo agasubira mu buzima busanzwe.

Amasiganwa agendanye no kuba abantu bakwiruka nayo ajya akunda kuba mu Rwanda cyane, aho usanga cyane cyane urubyiruko bitabira ayo marushanwa yo kwiruka hanyuma uwabaye uwa mbere akaba yahembwa ku rwego rushimishije.

Abaganga bafite mu nshingano mu kugira inama abantu bose mu kuba bakora imyitozo ngororamubiri kuko bishobora kubafasha kugira ubuzima bwiza no kuba bakira indwara zitandukanye harimo nka diyabete, umubyibuho ukabije ndetse n'ibibazo byo mu mutwe.

Imyitozo ngororamubiri ni ingirakamaro cyane, kuko abayikora usanga bagira ubuzima bwiza bahora bishimye, kandi bakabaho bazira uburwayi nk'imibyibuho ikabije, diyabete, ndetse n'uburwayi bw'umunaniro, ndetse n'ibindi bibazo byo mu mutwe biterwa n'intekerezo nyinshi.

Ni ingenzi cyane ko umuntu anywa amazi kandi menshi, igihe ashoje gukora imyitozo ngororamubiri, kuko bimufasha kuba umubiri we wahita ugarura imbaraga ndetse ntube wahura n'ikibazo cy'umwuma.

Kunywa amazi umuntu avuye mu myitozo ngororamubiri ni byiza cyane, kubera yuko bituma umubiri wongera kugarura imbaraga, bityo umuntu akaba yakomeza imirimo ye itandukanye afite imbaraga kandi aguwe neza.

Abakobwa bitabira imyitozo ngororamubiri bakunda kugira ubuzima bwiza, aho usanga babaho bazira uburwayi bishimye ndetse bakaba banaruhutse mu mitwe yabo, ikindi kandi bishobora no kuba byatuma umubyibuho ukabije ubavaho.

Mu gihe harimo hakorwa imyitozo ngororamubiri cyangwa se andi marushanwa, hari igihe habamo impanuka zituma abantu bashobora kuba bagira imvune, cyangwa se bagakomereka. Ni ngombwa y'uko hakoreshwa imiti ifite ingufu, iratuma bakira vuba mu masaha makeya, kugira ngo bitabagiraho ingaruka z'igihe kirekire.

Imyitozo ngororamubiri na yo ni ingenzi cyane kuko idufasha kwirinda uburwayi butandukanye, harimo nk'umunaniro ukabije cyangwa se umubyibuho ukabije n'ama Diyabete, ikindi kandi igihe abayikoze bahuriyemo n'impanuka cyangwa se n'imvune ni ngombwa ko bakurikiranwa.

Hari imiti myinshi itandukanye ibikwa ahantu habugenewe ikoreshwa igihe umuntu wari uri mu myitozo ngororamubiri ahuriyemo n'impanuka cyangwa se imvune. Iyo miti rero ishobora guhita ikoreshwa hagamijwe kugira ngo uwo muntu yongere amere neza byihuse bitamusabye ko amara igihe.

Imyitozo ngororamubiri ni ingenzi cyane, niyo mpamvu abasore n'inkumi n'abandi bantu batandukanye baba bagomba kuyitabira kugira ngo barusheho kugira ubuzima bwiza buzira uburwayi. Imyitozo ngororamubiri ishobora kutubera umuti w'indwara zitandukanye harimo kuba twakira umunaniro, umuvuduko ndetse n'umubyibuho ukabije.

Imyitozo ngororamubiri, ni ingenzi cyane, niyo mpamvu usanga abantu benshi nk'abama, bayitabira cyane kugira ngo babe bakwivura indwara zitandukanye nk'iz'umubyibuho ukabije ndetse n'umunaniro ube wagabanuka.

Hari imiti yabugenewe ishobora kudufasha kugabanya uburibwe n'uburyaryate, igihe nk'umuntu yahuye n'imvune cyangwa se akaba afite igikomere, yakuye mu kuba yari ari nko mu myitozo ngororamubiri.

Guterura ibyuma na wo ni umwitozo ngororamubiri, ukunda gukorwa cyane cyane n'abagabo. Uwo mwitozo ngororamubiri kandi, ushobora kuba wadufasha kuba twagira ubuzima buzima, tugakira indwara zitandukanye harimo umubyibuho ukabije, diyabete n'izindi.

Amashyamba akungahaye ku biti bivamo imiti myinshi itandukanye dushobora kwifashisha twivura uburwayi bwinshi, ikindi kandi akurura na ba mukerarugendo, kuko bashobora kuza kudusura ngo bayarebe, barebe n'ibirimo.

Abantu bakoresha ibyatsi bitandukanye mu kwivura indwara zitandukanye mu buzima bwabo. Niyo mpamvu baba bagomba kuba basobanuza bakamenya uburyo iyo miti gakondo ituruka ku byatsi ikoreshwa kugira irusheho kuba yabafasha.

Ibimera byinshi bitandukanye, tubikoresha hakorwa imiti itandukanye, idufasha mu kuba twakira uburwayi bushobora kuba bwaba bwatwatatse, bityo tukarushaho kugira ubuzima buzima.

Imiti gakondo igira uruhare runini cyane mu gukiza indwara zitandukanye, aho usanga abavuzi bayikoresha baba barayikoze neza kandi bakanayifunika neza; bituma abantu bumva neza ko ishobora kuba yabafasha gukiza uburwayi.

Imiti ikomoka ku bimera, iba ikoranywe ubuhanga n'ubushishozi ndetse n'isuku nyinshi, aho usanga ipfunitse neza mu bikoresho byabugenewe, ariko buri muti ukaba ufite ikirango kiwuranga, hakaba handitsweho n'icyo uwo muti ushobora kuba wavura.

Imiti ikomoka ku bimera, ishobora kudufasha mu kuba twakira indwara z'uruhu, ariko kandi tukagira n'uruhu rwiza rukabaho ruzira uburwayi bwinshi butandukanye.

Abaganga bashobora kuba basekura ibimera byinshi bitandukanye hakavamo ifu ikoreshwa nk'umuti mu kuvura abantu uburwayi butandukanye.

Hari ibitabo byinshi bitandukanye, bidusobanurira neza uburyo imiti ikomoka ku bimera ari ingenzi cyane mu kudufasha kuba twakwirinda uburwayi butandukanye ndetse no kuba twabukira.

Ibyatsi byinshi bishobora kuvamo imiti itandukanye ivura indwara zitandukanye, ni yo mpamvu usanga ibyatsi bimwe na bimwe bikunda kuba byakusanywa, hagamijwe kugira ngo bizakoreshwe nk'umuti, ibindi bakaba babisekura bikavamo ifu na yo ishobora kuba yakoreshwa twirinda indwara zitandukanye.

Abantu benshi bakoresha ibyatsi bitandukanye mu kuba bakwivura uburwayi bwinshi butandukanye baba bafite, bitabasabye kuba bajya kwa muganga cyangwa se kubita.

Abakoresha imiti gakondo baba barayifunitse neza mu bikoresho byiza byayigenewe, aho usanga buri muti uri mu gikoresho cyawo, hakaba hariho n'izina ryawo n'icyo umara ku buryo abaza kuyigura babasha gusobanukirwa neza.

Imiti ikomoka ku bimera, iba ikoranye ubuhanga ndetse n'isuku, aho usanga ibikwa neza mu bikoresho byateguwe kandi buri gikoresho kikaba cyanditseho izina ry'umuti urimo, ibyo byorohera abayigura kuba bamenya umuti baguze n'indwara uvura.

Ibimera bitandukanye bidufasha kuba twabona imiti idufasha gukira indwara zitandukanye, bityo tukarushaho kugira ubuzima buzima, bitadusabye gukoresha imiti ya kizungu.

Ibimera bidufitiye umumaro munini cyane, kubera yuko byifashishwa cyane hakorwamo imiti ishobora kudufasha kuba twakwivura indwara zitandukanye bidasabye yuko dukoresha imiti ya kizungu.

Imiti gakondo iba ikoze mu byatsi byinshi bitandukanye ariko kandi igira umumaro munini cyane, rimwe na rimwe hari ubwo ibyo byatsi bashobora kuba babisekura bikavamo ifu, iyo fu akaba ariyo ikoreshwa abantu bivura uburwayi butandukanye.

Ahantu hacuruzwa imiti gakondo hakunda kuba hari ibyapa bigaragaza ibishushanyo by'iyo miti ndetse bagaragaza n'amaserivisi batanga. Ni yo mpamvu rero iyo miti iba igomba kuba yahabwa abantu bakayikoresha neza, bityo bakaba bakira.

Ahantu hacururizwa imiti ikomoka ku bimera. Abavuzi bayikoresha baba baragiye bashyiraho ibirango bigaragaza imiti bacuruza ndetse n'indwara iyo miti ivura. Ibyo bituma ababagana basobanukirwa neza iyo miti ndetse n'uburyo bukoreshwa.

Imiti gakondo ikunda kuba ikozwe mu byatsi ariko kandi ikaba iteguwe neza, ku buryo ishobora kudufasha gukira indwara zitandukanye bitadusabye kurya imiti yashyizwemo.

Abantu bakoresha imiti ikomoka ku bimera baba bayiteguye neza, aho bayishyira mu bikoresho byabugenewe kandi bifite isuku, kandi kuri ibyo bikoresho bakandikaho amazina y'umuti urimo n'umumaro wayo, byorohera abakiriya kuba babasha kumenya umuti baragura.

Imiti ikomoka ku bimera igira uruhare ku buzima bwacu mu kwirinda indwara, aho usanga icuruzwa n'abavuzi benshi batandukanye, bityo kandi natwe tukaba twayigura tukivura tugakira, kubera yuko iyo miti iba yizewe kandi yakoranywe isuku n'ubunararibonye.

Ahantu hacururizwa imiti ikomoka ku bimera, haba hari ibirango ku buryo abagana ayo mavuriro batajya bayobagurika. Ikindi kandi imiti icururizwa aho hantu iba ifunitse neza mu bikoresho bifite isuku ndetse buri muti ukaba wanditsweho izina ryawo kugira ngo abayikoresha barusheho gusobanukirwa.

Ibyatsi bimwe na bimwe bidufasha mu kuba twabona imiti dukoresha mu buzima bwacu bityo tukaba twakira uburwayi butandukanye, harimo nk'indwara z'uruhu, igifu ndetse n'izindi.

Ibyatsi bitandukanye bijya bitugirira umumaro mu gukora imiti itandukanye kandi dushobora kuba twakwifashisha kugira ngo dukire uburwayi butandukanye cyane cyane ko abanyarwanda bakunda kuba bayikoresha mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Ibimera bitandukanye ni isoko y'imiti dukoresha mu buzima bwa buri munsi, twivura indwara zitandukanye, yaba iz'igifu cyangwa se iz'uruhu, n'izindi zijya zivugwa zitandukanye.

Imiti gakondo ikunda kuba ikoze mu byatsi bitandukanye, ariko kandi ikindi ubu isigaye iba ikozwe neza kandi ikaba ibitswe neza, ku buryo iba ifite umwimerere, bityo bigatuma abantu bizera yuko yabakiza uburwayi.

Abatunganya imiti ikomoka ku bimera, bayikora neza rwose ku buryo usanga ikoranywe isuku kandi ibitse neza mu bikoresho byiza byabugenewe, ikindi kandi buri gikoresho kiba kigiye cyandikwaho umuti ukirimo, bituma abagana amavuriro acuruza iyo miti babasha kuyigura bazi iyo ariyo n'indwara ivura.

Imiti myinshi gakondo, ituruka ku byatsi. Ni yo mpamvu, usanga ibyatsi bitandukanye bishobora kuba byahingwa ariko hagamijwe kugira ngo bizavemo imiti, ishobora kutuvura indwara zitandukanye bityo tukarushaho kugira ubuzima bwiza.

Abaganga bakoresha imiti y'ibimera, bagomba kuba bafite imyenda ibaranga. Ikindi kandi iyo miti bacuruza igomba kuba ikoranywe isuku ndetse ikaba inafunitse neza hariho n'ibirango byerekana indwara iyo miti ivura, kugira ngo abayigura barusheho gusobanukirwa.

Imiti gakondo akenshi iba ikoze mu byatsi, niyo mpamvu usanga ibyatsi bigira umumaro munini cyane mu kuba byadukiza uburwayi butandukanye, harimo n'uburwayi bw'inzoka, igifu ndetse n'izindi zitandukanye bitadusabye kurya imiti.

Imiti ikomoka ku bimera ibakoranye isuku kandi ikaba ibiswe mu bikoresho byabugenewe bisa neza, niyo mpamvu nanone usanga ibyo bikoresho ibitswemo biba byanditseho amazina y'iyo miti irimo, ku buryo byorohera abayigura kuba bamenya uburyo irakoreshwamo n'indwara ivura.

Ibyatsi bitandukanye na byo bivamo imiti, niyo mpamvu usanga abantu benshi babyifashisha kugira ngo havemo imiti itandukanye ishobora kudufasha twivura indwara zitandukanye, harimo nk'indwara z'igifu iz'imvune ndetse n'iz'uruhu n'izindi zitandukanye.

Imiti gakondo iva mu bihingwa bitandukanye n'imbuto, aho ushobora gusanga ibyo bihingwa bitegurwa neza, ibindi bikaba byanasekurwa, bikavamo imiti ishobora kudufasha kuba twakira indwara zitandukanye.

Igiti cy'umusave na cyo gishobora kuba cyakoreshwa nk'umuti uvura abantu. Abanyarwanda bakunda kuba bakifashisha bivura indwara zitandukanye. Bityo bakaba bakira batagiye kwa muganga.

Imiti gakondo iba iteguye neza ifite n'ibyo ibikwamo byabugenewe. Ku buryo abayicuruza ndetse n'abayigura baba bafite ikizere ko iyo miti irinzwe kandi ishobora kuba yakiza uburwayi.

Imiti gakondo abayicuruza baba barayikoze neza kugira ngo ibashe kugira umumaro ku buzima bwa muntu, ariko kandi hakunda no kuba hari ibyapa biranga aho bakorera, ku buryo umurwayi ashobora kuba yabayoboka bidasabye yuko ayobagurika.

Imiti ikorwa mu bimera, iba yakoranywe ubushishozi ndetse n'isuku, ikaba kandi ifunitse neza, kandi buri muti ukaba wanditsweho izina ryawo n'umumaro ugira mu kuvura abantu.

Imiti gakondo nayo iba ifunitse neza kandi ikoranye isuku, ku buryo abayigura baba bizeye neza yuko ishobora kugira uruhare runini cyane, mu kubakiza indwara bafite mu buzima bwabo.

Ubuvuzi gakondo buradufasha cyane. Aho usanga bafite imiti itandukanye, harimo n'ishobora kuba yadufasha kuba twabaho turambye tuzira uburwayi ndetse n'urupfu rushobora kuba rwadukindura.

Ahantu hacururizwa imiti y'ibimera hakunda kuba hari ibirango biharanga, ku buryo abahagana batajya bayobagurika ahubwo bahagera bakabasha kuba babona imiti bakeneye ibavura.

Imiti ikomoka ku bimera, iba ikoze neza cyane, kandi ikaba ifunitse mu bintu byabugenewe, biteguranye isuku. Aho usanga kuri ibyo bifuniko, hariho amazina y'imiti, ndetse n'indwara, ashobora kuvura.

Imiti gakondo iba igizwe n'ibyatsi. Abayikora, hari ubwo bafata ibyo byatsi, bakaba babisekura, bikavamo umuti w'ifu, ushobora kuba wadufasha kwivura uburwayi butandukanye.

Hari ibimera byinshi bikunda guhingwa ariko bigahingwa hagamijwe kugira ngo ibyo bimera bizavemo imiti izadufasha mu kuba twakira uburwayi butandukanye.

Ababyeyi bakunda cyane gukoresha imiti y'ibimera kugira ngo babe bavura indwara zitandukanye, yaba arizo bashobora kuba barwaye bo ubwabo cyangwa se abana babo.

Ahantu hacururizwa imiti y'ibikomoka ku bimera, uzahasanga ibirango, ibyo birango bigaragaza imiti ihacururizwa, ndetse n'indwara ivura, icyo ni cyo gituma abagana ayo mavuriro, babasha gusobanukirwa neza imikoreshereze y'imiti bahawe.

Abakora n'abacuruza imiti gakondo, bayikora neza bakanayifunika neza mu bikoresho bifite isuku, ku buryo bikurura abakiriya cyangwa se abarwayi mu kuba bayikoresha bivura uburwayi butandukanye.

Imiti ikomoka ku bimera na yo iracuruzwa mu masoko atandukanye, aho usanga abayicuruza baba barayiteguye neza bakayishyira mu bikoresho byabugenewe kandi bifite isuku, ariko kandi kuri buri gikoresho hakaba handitseho izina ry'umuti n'icyo ukora.

Abaganga bakoresha imiti ikomoka ku bimera, bakunda kuba bayishishikariza abantu binyuze ku matereviziyo ndetse no ku maradiyo n'ahandi henshi hatandukanye kugira ngo bamenyekanishe imiti yabo n'uburyo ikoreshwa.

Imiti ikomoka ku bimera na yo ubwayo ishobora kutugirira uruhare runini cyane, mu kuba twagira amenyo azira uburwayi, kandi akaba akomeye, nta kibazo afite.

Ibimera bidufasha cyane mu kuba twabona imiti itandukanye idufasha mu kuba twakwivura tugakira, tukabona ubuzima igihe twari turwaye bitadusabye kuba twarya imiti ya kizungu.

Abavuzi bacuruza imiti ikomoka ku bimera, bagira imiti ishobora kuba yakuvura igihe ugira ikibazo cyo kurangiza vuba, gucika intege mu gutera akabariro, ingaruka zo kwikinisha, ikumira indwara zifata porositate, ndetse n'izindi zitandukanye.